Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore abirabura ndetse n'abazungu, bicaye bacecetse bakurikiye bari mu nama, imbere yabo hakaba hari imeza iriho amazi yo kunywa, amakayi ndetse n'amakaramu, iyo nyubako barimo ikaba ifite inkuta z'umuhondo.

Abantu benshi bateraniye hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe z'umweru munsi y'igitente rifite amabara y'umweru ndetse hari n'ibitambaro by'icyatsi, umuhondo n'ubururu bitatseho, hirya hakaba hari n'abandi bantu bicaye ariko bo baticaye munsi y'itente aho hantu bari hari ubusitani bunini ndetse hateye n'ibiti.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari imeza, iriho ibitambaro by'umweru, bakaba bateze amatwi bari mu nama, ku meza hari amazi yo kunywa, telefone amakayi ndetse n'amakaramu.

Umugore wambaye isaaha ku kuboko ndetse n'impeta ku ntoki, akaba yambaye ikanzu nini iri mu mabara ya move, ari mu nyubako nini ifite ibikuta by'umuhondo ndetse harimo n'imitako y'imigongo, akaba arimo arabageza ku bantu bamukurikiye ubutumwa, imbere ye hari intebe ndetse n'imeza iriho amazi yo kunywa.

abantu benshi bateraniye hamwe hakabamo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bambaye udupira tw'ubururu bwijimye, imbere yabo hakaba hari ameza iriho amazi yo kunywa, amakayi ndetse n'amakaramu na terefone, bakaba bicaye ku ntebe z'umuhondo n'umweru bakaba bari mu nama bakurikiye.

Abayobozi b'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro bari mu nama bicaye bazengurutse ameza, imbere yabo hari amazi yo kunywa, abandi bafite amakayi bari kwandikamo mu gihe abandi bari kwifashisha telefone zabo.

Abantu benshi bateraniye hamwe bakaba bari mu nama, harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza y'umutuku iriho mudasobwa, indangururamajwi, amazi yo kunywa, amakaye, ndetse n'amakaramu. Inyuma yaho bari hari icyapa kinini cyiri mu mabara y'ubururu, ndetse n'icyatsi cyanditseho Kigali yacu, Kigali ikeye.

Abantu benshi bari hamwe bakaba bari mu nama, bakaba bicaye bateze amatwi harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hari imeza iriho amazi yo kunywa, udutasi, amakayi, amakaramu ndetse n'ibindi, bakaba bari mu nyubako ifite ibikuta by'umuhondo.

Umugore wambaye ikanzu nini y'umweru ndetse n'umukara, akaba arimo arageza ku bamukurikiye ubutumwa, akaba afite indangururamajwi imbere ye iri ku kameza karekare k'umweru ndetse iyo nyubako arimo ifite icyapa cyangwa ikintu kinini kiri mu mabara y'icyatsi kigenda gitanga ubutumwa iyo inama igiye ivuga.

abantu benshi bateraniye hamwe hakabamo abagabo ndetse n'abagore bicaye ku ntebe z'umukara iruhande hari umugabo uhagaze umeze nkaho arimo adika ikintu ku mpapuro hari i m y'umweru ibari imbere ahantu bari kandi n'abandi bantu bagiye bayicaye bari mu matsinda iyo nyubako ifite inkuta z'umweru ndetse hari n'ibiti bite iruhande rwabo

Abantu bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bicaye bakurikiye bari mu nama, hari umugore uhagaze wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agapira k'amaboko magufi, akaba afite indangururamajwi mu ntoki ze arimo arageza ku kumukurikiye ubutumwa, iyo nyubako ikaba irimo inkuta z'umweru ndetse hari n'amarido agiye atwikiriye amadirishya.

Abaturage bavuye mu muganda n'ibikoresho byabo. Bari kumva kandi banakurikira inyigisho bari guhawa n'abayobozi babo bo mu midugudu ndetse no mu tugari.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo, hari imeza iriho ibitambaro by'umutuku biriho amazi yo kunywa ikayi, ndetse n'amakaramu imbere hari abandi bantu bameze nk'ho bahagarariye hagati hari umugabo ufite indangururamajwi wambaye ikositimu arimo arabagezaho ubutumwa, ndetse n'umugabo uri ku ruhande urimo urafotora.

Abantu bateraniye hamwe bari mu nama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari imeza iriho; mudasobwa, amazi yo kunywa, amakayi, ndetse n'amakaramu. Bakaba bicaye bari mu nama, inyuma iyo nyubako ifite ibikuta by'umuhondo.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba barimo abagabo ndetse n'abagore. Abagabo bakaba bambaye amakositimu. Iruhande rwabo hari imeza iriho amazi yo kunkwa, amakayi ndetse n'amakaramu. Bakaba bateraniye hamwe bari mu nama kandi bacecetse bakurikiye. Iyo nyubako barimo ifite inkuta z'umweru.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bicaye ku ntebe zi'ikigina hirya hari intebe ziticayemo abantu. Bakaba bicaye bameze nk'aho bari mu nama, bacecetse bateze amatwi. Kuruhande hakaba hari aho bakwandikira ndetse bamwe muri bo bakaba barimo barafata ibyo bumvise babyandika mu makayi. Bakaba bafite n'amatefone mu ntoki.

Umugore wambaye ijipo ndetse yambaye n'ikoti ry'ubururu, akaba afite insakazamajwi mu ntoki ze akaba ndetse afite n'ibikomo ku kuboko. Akaba imbere ye hari akameza akaba ageza ku bamukurikiye ubutumwa, iruhande rwe hari insakazamashusho nini muri icyo cyumba.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari imeza iriho amazi yo kunywa, amakayi, ndetse n'amakaramu bakaba bakurikiye bacecetse, imbere hari umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse n'ishati y'umweru, akaba arimo arabagezaho ubutumwa, imbere yabo hakaba hari insakaza mashusho bose barimo barayireba.

Umugore wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, akaba yambaye n'amadarubindi mu maso, iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati y'ubururu, bombi bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari imeza y'umutuku iriho amazi yo kunywa, indangururamajwi ndetse n'ikayi n'ikaramu, inyuma yabo hari ibyapa binini biri mu mabara y'icyatsi n'ubururu byanditseho Kigali yacu, Kigali icyeye.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bicaye bateze amatwi bakurikiye bameze nk'aho bari mu nama, imbere yabo hari imeza iriho amazi yo kunywa, amakayi, amakaramu ndetse na za telefoni, iyo nyubako barimo ifite inkuta z'umuhondo.

Umugabo wambaye ishati yicaye ku ntebe y'umukara, ku ruhande rwe hari n'abandi bagore babiri bombi bicaye ku ntebe z'umukara ndetse imbere yabo hari imeza irimo amabara y'umutuku, hakaba hariho amazi yo kunywa, amakaramu, amakayi ndetse na telefoni, bakaba bameze nk'aho bari mu nama barimo barungurana ibitekerezo.

Abayobozi n'abaturage bicaye mu gisharagati gitakishijwe ibitamabro by'amabara y'idarapo ry'igihugu, bari gukurikirana ibiri kubera mu muhango bitabiriye.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bicaye imbere yabo hari imeza zifite imyenda y'umweru, akaba iteretseho amazi yo kunywa amakaramu amakayi ndetse n'ibindi. Hari umugore wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agashati k'umweru uri hagati yabo kubagezaho ubutumwa. Inyubako ifite ibikuta by'umweru

Abantu benshi bateraniye hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore, iyi nyubako ikaba ifite inkuta z'umuhondo ndetse hari abantu bari kwinjira n'abandi basohoka, abantu bicaye imbere yabo hari imeza ziriho amazi yo kunywa, amakayi, amakaramu ndetse n'ibindi, bakaba bateze amatwi bakurikiye.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bari mu nyubako ifite ibikuta by'umweru ndetse hakaba n'insakazamashusho nini ibari inyuma, hari ndetse n'abantu bafite ibikoresho bifata amashusho, bakaba barimo barafata amashusho n'amajwi y'ibintu byose bibera aho ngaho, abantu bose bari mu nyubako bambaye udupfukamunwa.

Abantu benshi bateraniye hamwe. Hakaba harimomo abagabo ndetse n'abagore. Bakaba bicaye ku ntebe z'umukara. Imbere yabo hari imeza ariho za mudasobwa, indangururamajwi, amazi yo kunywa, amakayi, ndetse n'amakaramu. Bakaba bari mu nama bacecetse batuje. Hirya yabo hakaba hari icyapa kinini cyanditseho amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi ngo Kigali yacu, Kigali ikeye.

Abayobozi bari gufata ifoto bahagaze imbere y'inyubako ifite ibirahure, bahagaze mu mirongo itatu ku madarage yinjira kuri iyo nyubako.

Abantu bateraniye hamwe ,hakaba barimo abagabo ndetse n'abagore , abazungu ndetse n'abirabura, bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari ameza iriho amazi yo kunywa amakaye yo kwandikamo telefoni ndetse n'amakaramu ,bakaba bacecetse bari mu nama iyo nyubako barimo ikaba ifite ibikuta by'umweru.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bicaye bameze nk'aho bari mu nama, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari meza iriho ibyo kunywa nk'amazi, amakaye, amakaramu ndetse n'ibindi hari umugabo uri hagati yabo bambaye agapira k'umukara, umeze nk'aho ari kubagezaho ubutumwa runaka.

Abantu benshi bateraniye hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba ahantu bari hari amarido y'umweru agiye abakikije ndetse imbere y'aba bantu hakaba hari meza ihari iriho telefone, hakaba hari umugabo wambaye ikositimu y'ubururu na karuvati ufite indangururamajwi arimo aragenda abagezaho ubutumwa runaka.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, inyubako barimo i zifite inkuta z'umweru ndetse bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo imeza iriho mudasobwa, amazi yo kunywa, imitobe ndetse n'ibindi, bakaba bacecetse bose bakurikiye bateze amatwi.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba hari abagabo ndetse n'abagore, hakaba hari umugore wambaye ikanzu nini akaba afite indangururamajwi arimo arageza ku bamukurikiye ubutumwa, aho hantu bari inyuma hari icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, inyubako ifite inkuta z'umuhondo.

Abantu benshi bateraniye hamwe bakaba bari mu nyubako ifite ibikuta by'umweru, bakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bicaye ku ntebe z'umweru imbere yabo hari imeza iriho ibitambaro by'umweru, hakaba hateretseho amazi yo kunywa, amakayi, ndetse n'amakaramu. Bakaba batuje kandi bateze amatwi.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bamwe baricaye abandi barahagaze hagati hari umugore urimo urabagezaho ubutumwa ndetse ahantu hari hakaba hari imodoka nyinshi zitwara abantu mu buryo bwa rusange ziparitse, hakaba hari n'amapoto amurikira abakoresha ibyo bice nijoro.

Abantu benshi bateraniye hamwe. hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore. Bakaba bambaye udupira tw'umweru. Bicaye ku ntebe z'umutuku ndetse imbere yabo hari ameza ziriho ibitambaro by'umukara. Imeza ikaba iriho mudasobwa n'amazi yo kunywa ndetse n'ibindi. Iyo nyubako ifite inkuta z'umweru. Bakaba bari mu nama bakurikiye.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bateraniye mu mbuga nini y'ibitaka, hakaba hari hirya yaho ubusitani burebure buhari ndetse n'ibiti byinshi bigiye bihateye, hari umugabo wo hagati ufite indangururamajwi uri kubagezaho ubutumwa, hakaba hari abagabo ndetse n'abagore aho hantu muri iyo nama.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hagati yabo hari umugabo wambaye ikositimu, ufite indangururamajwi mu ntoki, akaba arimo arabagezaho ubutumwa, ku ruhande rw'aho hantu abantu bari, hateye ibiti byinshi kandi hari n'ubusitani.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bicaye bari mu nama. Bicaye ku ntebe z'umutuku imbere yabo hari imeza iriho telefone, amakayi amakaramu, ndetse n'amazi yo kunywa. Iyi nyubako barimo ifite inkuta z'umuhondo ndetse hakaba hari n'amarido y'umuhodo agiye atwikiriye amadirishya.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba barimo abagore ndetse n'abagabo, harimo ndetse n'urubyiruko rwambaye utwenda tw'udupira tw'amoko magufi tw'ubururu, hakaba iyo nyubako barimo ikikijwe n'amarido afite ibara ry'ikigina, ndetse bakaba bari mu nama bacecetse, imbere yabo ku meza hari mudasobwa ndetse n'amazi yo kunywa.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, abagabo bakaba bambaye amakositimu, bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari imeza iriho ibyo kunywa, amazi, imitobe, amatasi, amakaye ndetse n'amakaramu, bakaba bakurikiye bari mu nama, muri iyo nyubako hari ndetse n'insakazamashusho nini.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba barimo abagore ndetse n'abagabo bakaba bari mu nama bateze amatwi. Bicaye ku ntebe z'umweru imbere yabo hari imeza iriho amakayi, amatelefoni, ndetse n'amazi yo kunywa. Iyo nyubako barimo ifite inkuta z'umweru.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bicaye imbere yabo hariho imeza ziriho mudasobwa, amakayi ndetse n'amakaramu, bakaba bacecetse bameze nk'aho bari mu nama, inyubako barimo ikaba ifite inkuta z'umweru ndetse hakaba n'insakazamashusho iri ku meza.

Umugore wambaye agakoti k'amabara menshi, imbere yambaye agakanzu k'umuhondo. Akaba yicaye ku ntebe y'umweru, yambaye amaherena ndetse n'amadarubindi mu maso. Afite indangururamajwi mu ntoki. Ameze nkaho arimo arageza kubamukurikiye ubutumwa. Imbere hari imeza iriho amazi, telefone, ikayi, ndetse n'ikaramu.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba harimo abagore bitandiye ndetse bakaba bambaye bamwe muri bo n'amadarubindi mu maso, ku ruhande hari abagabo bambaye udupira tw'ubururu, imbere yabo hakaba hari imeza iriho amazi yo kunywa, amakayi ndetse n'amakaramu bakaba bicaye batuje bari mu nama bakurikiye.

Abantu benshi bateraniye hamwe, harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza iriho ibitambaro by'umweru, iriho amazi yo kunywa, amakayi, amakaramu ndetse n'ibindi, bakaba bateze amatwi bakurikiye, iyo nyubako barimo ikaba ifite inkuta z'umuhondo.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba higanjemo urubyiruko, bicaye ku ntebe z'umutuku ndetse bakaba bacecetse bameze nk'aho bari mu nama, hagati hari umugabo wambaye ikoti ndetse n'ishati n'ipantaro uri kubagezaho ubutumwa runaka, ahantu bari hari amarido y'umweru agiye abazengurutse.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore abirabura ndetse n'abazungu bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo harimeza iriho ibikapu mudasobwa amazi yo kunywa amakaye ndetse n'amakaramu iyo nyubako barimo ikaba ifite inkuta z'umweru bakaba bose bacecetse bakurikira bameze nk'abari mu nama.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bahagaze basa nk'aho bambaye imipira y'ubururu bose ndetse barimo barakoma amashyi, iruhande rwabo hari intebe z'umweru ndetse hakaba hari n'imeza iri imbere iriho telefone, amakayi ndetse n'amakaramu bari mu itente y'umweru.

Ubutumwa cyangwa icyapa cy'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro. Kivuga ko habura umunsi umwe. Harabura umunsi umwe kugira ngo makumyabiri makumyabiri na kane bigere. Bashishikariza kumenyekanisha ndetse no kwishyura imisoro yawe utarishyura kugira ngo wirinde amande cyangwa ibihano.

Abantu benshi bari hamwe bakaba ari urubyiruko. Harimo abahungu ndetse n'abakobwa. Bambaye impuzankano z'umukara ndetse n'amashati y'umweru. Bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari meza iriho mudasobwa. Iryo shuri barimo rifite ibikuta by'umweru, bakaba bameze nk'aho barimo bariga.

Umugabo wambaye agapira k'umutuku ndetse n'ishati y'amaboko maremare, akaba yicaye ku ntebe imbere hari meza, arimo arakoresha mudasobwa. Iruhande rwe hari undi mugabo ufite ubwanwa burebubire, wambaye agashati k'amaboko maremare k'umutuku, ndetse n'ingofero y'umukara. Akaba afite kuruhande icyo kunywa. Ahantu bari hakaba hafite inkuta z'umweru.

Ubutumwa bw'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro kikaba kikubwira y'uko hari abantu babiri bari buze kukugezaho ikiganiro ku maradiyo agiye atandukanye harimo umugore witwa Batamuriza Hajara ndetse na Mbera Emmy akaba we ari umugabo, ni ikiganiro ku by'ingenzi mu misoro iri kuvuga muri iyi minsi.

Ubutumwa buri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, akaba ari ubutumwa bw'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, kikubwira ko itariki ntarengwa yo kwishyura ari uyu munsi, tariki mirongo itatu n'imwe, ukuboza, makumyabiri makumyabiri na kane, bakaba bagushishikariza kumenyekanisha ndetse no kwishyura imisoro ku mitungo itimukanwa uyu munsi.

Ubutumwa bw'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro kikaba kiri mu mabara y'umweru ndetse n,ubururu kiravuga ngo menyekanishe uyu umunsi wishyure mbere y'itariki ntarengwa ubu ushobora kumenyekanisha avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu uyu munsi ukazishyura mbere y'itariki ntarengwa witegereza umunsi wa nyuma itariki ntarengwa mirongo itatu na rimwe ukuboza makumyakubiri nari rimwe.

Ubutumwa bw'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, kikaba kikubwira ko habura umunsi umwe kugira ngo imenyekanishe ndetse no kwishyura imisoro birangire, itariki ntarengwa ni itariki mirongo itatu n'imwe ukuboza makumyabiri na makumyari na kane, bakaba barimo barakubwira ati ishyure hakiri kare wirinde amande cyangwa ibihano.

Iri ni itangazo ryanditse mu kinyarwanda harabura iminsi ibiri kugira ngo itariki ntarengwa yo kumenyekanisha ndetse no kwishyura umusoro w'ipatante wa bibiri namakumyabiri na kane ugera, menyekanisha unishyure ipatante uyu munsi wirinde amande n'ibihano by'ubukererwe.

Mudasobwa ndetse na telefoni, akaba ari ubutumwa bw'ikigo cy'irembo kikubwira ngo byikorere, kigenda kikwereka inzira wacamo kugira ngo ubashe kubona serivisi zitangwa na polisi, bakaba bakwereka n'ibisabwa kugira ngo uhabwe ibyemezo runaka.

Umunara w'itumanaho mu mabara y'umutuku n'umweru, ibyapa by'ubururu bya tigo, cyamamaza n'abantu bawuzengurutse bawitegereza.

Umunara munini ukozwe mu byuma. Ibyo byuma bikaba bisize amabara y'umutuku ndetse n'umweru. Iruhande rwayo hakaba hari amamashini bisa nk' aho akoreshwa mu gutanga amashanyarazi. Iruhande rw'aho hantu hubatse amazu ndetse hakaba hari n'imbuga iteyemo ibyatsi n'ibiti.

Abantu benshi barimo baragenda abandi bicaye. Hakaba hari umuhungu wambaye ingofero y'umutuku ndetse n'imyenda y'umutuku. Akaba iruhande rwe hari umugabo wambaye agapira k'umweru. Bakaba bicaye imbere yabo hari imeza, iriho mudasobwa ndetse na telefone bari munsi y'itenti y'umweru. Ku ruhande hari abantu bahagaze bari mu busitani ndetse buteyemo n'ibiti.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo, akaba ari munsi y'agatente cyangwa imbere y'ahari ahantu batangira serivisi zijyanye na banki cyangwa amafaranga. Akaba ari umu agenti cyangwa umukozi wa banke ya KCB. Ku ruhande hari amazu agiye akorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye cyane cyane serivisi za mobayiro mani.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba harimo abahungu ndetse n'abakobwa bakaba bicaye, mu nzu imbere yabo hari imeza ziriho za mudasobwaba. Bakaba bame bameze nkaho barimo barazikoresha. Kurahande hari umugabo ugenda ubereka cyangwa ufasha ufasha ugize ikibazo.

Itangazo rimenyesha abasora umunsi ntarengwa wo kumenyekanisha umusoro wabo w'igihembwe cya kabiri. Ku itariki miringo itatu z'ukwakenda, bibiri na makumyabiri na kane. Mwishyure uyu munsi kugira ngo mwirinde ingaruka zo kwishyura ku munota wa nyuma.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi ndetse n'ipantaro, akaba arimo aracaho, iruhande rwe hakaba hari inzu nini y'amagorofa menshi, iyo nzu igiye ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubucuruzi, iruhande rw'iyo nzu hakaba hari ubusitani ndetse hateye n'ibiti birebire.

Abantu bateraniye hamwe hakaba harimo abagabo, hakaba hari abafite ibyuma bifata amajwi ndetse n'amashusho ndetse ku ruhande yabo hari inyubako nyinshi zigiye zubatse ,hari ubusitani buteyeho n'ibiti birebire, hakaba hari n'amapoto agenda ariho insinga zisakaza amashanyarazi muri ibyo bice.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, uruhande rwawo hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hari n'imodoka ziparitse, zitarimo zirakoresha umuhanda rusange, hari amazu maremare y'amagorofa menshi, yubatse hirya y'umuhanda ndetse hakaba hateye ibyatsi n'ibiti birebire, hirya y'uturira tw'abanyamaguru.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ku ruhande hakaba hari aho abantu bakarabira hakaba ndetse hari na moto ziparitse zitegereje kubona abakiriya hari imitaka myinshi mtn yegereye inyubako nini nayo isize amabara y'umuhondo ndetse hari n'amagambo ya mtn hari amapoto maremare ariho insinga zisakaza amashanyarazi mu baturage ndetse n'amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro hakaba n'abantu bari kugenda bacaho.

Umugore wambaye ikanzu akaba afite n'igikapu ku bitugu, afite umufuka uteretse imbere ye ndetse n'ibasi, ku ruhande hakaba hari umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hegeranye na ruhurura ndetse hateye ibiti byinshi n'ibyatsi hirya y'umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye kuruhande hakaba hari amazu agenda akorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi bimwe mu bicuruzwa harimo imyenda ndetse n'ibyo kurya hari ndetse n'amapoto maremare ariho insinga zisakaza amashanyarazi hakaba n'imodoka ziparitse zitarimo zirakoresha umuhanda rusange.

Inzu z'ubucuruzi zicururizwamo ibikoresho by'ubwubatsi, bimwe bigiye biri imbere y'ayo maduka kugira ngo abakiriya babashe kubibona vuba ndetse imbere yaho hakaba hari ipironi ry'umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Ku ruhande hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hari n'umugore uhagaze. Imbere ye hari umufuka ndetse n'ibase. Akaba ategereje gutega moto cyangwa imodoka. Hari imodoka ziri ku ruhande ziparitse zitari gukoresha umuhanda wabugenewe. Hakaba hateye ibiti birebire kandi byinshi iruhande rw'umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka nini y'ikamyo, umuhanda ugenda mu byerekezo bitandukanye hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru, abantu bakaba barimo baratugendamo ndetse hakaba n'umutako utangirwamo serivisi za Mobile MOney, hari ibiti birebire biteye hirya y'umuhanda.

Imodoka y'umukara iparitse ikaba yafunguye imiryango. Ikaba iparitse ku ruhande hari andi mazu ma menshi ahubatse agiye atandukanye hakaba ndetse hari n'ubusitani n'ibiti birebire. Hakaba hari n'amapoto maremare ariho insinga zigenda zitwara amashanyarazi mu ngo zitandukanye.

Umunara w'itumanaho w'umutuku n'umweru uri mu ruzitiro rw'ibyuma by'umutuku ndetse na senyenge, inyuma yaho hari icyapa cya amusiteri.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande hakaba haari utuyira tw'abanyamaguru, twegeranye n'ubusitani buteyemo n'ibiti birebire, hakaba hari n'amazu agiye akikije uwo muhanda, hakaba hari imodoka ziparitse ku ruhande rw'umuhanda zitarimo zirakoresha umuhanda rusange.

umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Ku ruhande hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hateyeho ubusitani burimo indabo ndetse n'ibiti birebire. Hubatse n'inyubako nini kandi nyinshi iruhande rw'utuyira tw'abanyamaguru. Hakaba hari n'amapoto maremare hariho insinga zisakaza amashanyarazi mu baturage.

Inyubako nini, ikaba igiye itwikiriye. Ku kuruhande hari ubusitani burebure burimo ibiti ndetse n'indabyo. Hirya hari naho banika imyenda ndetse ahantu inyubako iri hazengurutswe n'ibiti byinshi cyane bimeze nkaho ari ishyamba.

Inyubako nini kandi zigiye zikurikiranye, hakaba hari akayira abantu bacamo gasakaye, kurande hari ubusitani bwiza, buteyemo ibyatsi, ndetse n'ibiti, hari icyapa kinini ku ruhande kiri mu mabara y'uburu, n'umweru kikwereka ko ahantu havurirwa indwara z'amaso, ndetse ahantu hakaba bameze nk'aho ari kwa muganga.

Abantu benshi barimo baratambuka harimo abagabo ndetse n'abagore, abirabura ndetse n'abazungu, iruhande rwabo akaba ari inzu nini ikorerwamo n'ibitaro, akaba ari ibitaro by'i Masaka, ku rurande hateye ibyatsi ndetse hari n'ibiti birebire, hari ndetse n'abantu benshi baje gushaka serivisi zo kwivuza.

Amazu menshi agiye akurikiranye akaba agiye yubakishije amatafari ahiye ndetse akaba afite n'amabati y'umutuku, ku ruhande hari aho abantu banika imyenda ndetse izo nyubako zikikijwe n'ubusitani burebure ndetse n'ibiti byinshi bigiye birimo.

Umuhungu wambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'inkweto akaba yambaye itaburiya y'umweru, yicaye ku ntebe y'uburu, iruhande rwe hari umugabo wambaye ipantaro ndetse n'inkweto na we akaba yambaye itaburiya yicaye ku ntebe y'ubururu, akaba arimo aramwereka kuri mudasobwa iri imbere ye ku meza, aha hantu hakaba hameze nk'aho ari kwa muganga.

Irembo ryinjira mu bitaro hejuru yaryo hari icyapa kiri munyuguti zitukura cyanditseho ngo ibitaro bya Muhima ruguru y'irembo hari parikingi irimo imodoka itukura.

Inyubako nini ikaba ifite inkuta ziri mu mabara y'umweru ndetse amabati akabaza umutuku, hari urujya n'uruza rw'abantu, hanze hakaba haparitse imodoka nyinshi ziri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, n'imodoka z'imbagukiragutabara zikaba zijya gufata abantu bakeneye ubuvuzi cyangwa ubutabazi bw'ibanze zikabazana kwa muganga.

Ibice byo mu bitaro aho abarwayi batambuka baticwa n'izuba cyangwa ngo banyagirwe n'imvura, haragaragara ibyapa bibayobora muri serivisi zitandukanye zitangirwa kwa muganga.

Hari igitanda kiri mu nzu ikodeshwa amadolari magana atanu mirongo itanu buri kwezi ikaba iherereye Kabeza.

Inyubako nziza kandi nini akaba ari inyubako y'amagorofa menshi akaba ndetse isize amabara y'umweru ndetse n'umuhondo ikaba inasakaye, ku ruhande hari ndetse n'izindi nyubako, hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibiti biteye iruhande rw'iyo nyubako, hakaba hari n'akuma gakoreshwa mu kuzimya umuriro kari ku gikuta iruhande rw'iyo nyubako.

Kwa muganga aho abarwayi batekerereza hari intebe zicararaho bategereje, inkuta zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'igisenge gifite ibara ry'umweru, inkingi zifashe igisenge zubakishijwe amabuye ndetse hakurya icyapa kigaragaza ubwiherero.

Abagabo batatu, bakaba bicaye bambaye amashati magufi ndetse n'ama kabutura by'iroze, inyuma yaho hari ndetse n'abandi bantu, iyo nyubako ifite ibikuta by'umweru bameze nk'aho ari imfungwa cyangwa igororwa bakaba baje kuburanishwa mu rukiko.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo bambaye imyenda y'amapantaro ndetse n'amashati by'icyatsi, hirya hari abandi bantu bambaye imyenda isanzwe bicaye nabo ku ntebe, muri iyo nyubako harimo umuntu ufite igikoresho gifata amashusho ndetse n'amafoto, hari n'abandi bantu bambaye impuzankano za gisirikare na gipolisi.

Inyubako nini ikaba ari inyubako igiye iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara, hejuru hari icyapa kigaragaza ko ahantu ari Gereza ya Nyanza, ikaba yegeranye n'ahantu hari ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti birebire, bimeze nk'aho aho hantu ari mu ishyamba.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bamwe baricaye abandi barahagaze, ahantu bari hari ubusitani ndetse hateye n'ibiti birebire, hari umugabo uri hagati wambaye ishati y'igitenge ndetse n'ipantaro bameze nkaho barimo baramubaza ibibazo, imbere hari n'abandi bicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza, bameze nkaho bahagarariye abo bantu.

Abagabo babiri bambaye amashati y'amamoboko magufi ndetse n'amakabutura y'iroza, iruhande rwabo hari undi mugabo wambaye ikanzu nini y'umukara, imbere yabo hari abagore babiri bicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza, mudasobwa, amakayi, amazi yo kunywa, ndetse n'amakaramu, nabo bakaba bambaye imyenda minini y'amakanzu y'umukara ndetse ari no mu mabara y'umweru, abo abantu baka bameze nk'aho baje kuburanishwa.

Abantu benshi bari hamwe hakaba biganjemo abagabo bambaye amakabutura ndetse n'amashati y'amaboko magufi y'amaroza, ku ruhande hari inyubako ndende yubatse mu matafari akaba ahantu hameze nk'aho ari muri gereza, ku ruhande hari abagabo bambaye impuzankano wagira ngo ni abacungagereza.

Umugabo wambaye ikanzu nini ya kake afite n'akagofero mu mutwe akaba ari umuzungu, iruhande rwe hakaba hari abagabo babiri bambaye impuzankano z'umukara za gipolisi bakaba bamuherekeje, inyuma yabo hari imodoka nini imeze nk'aho na yo ari iya polisi ahantu bari hari ibyatsi ndetse n'ibiti bihateye kandi hari n'amazu abakikije.

Umugabo wambaye ikabutura ndetse n'ishati y'amaboko magufi n'agapfukamunwa by'iroze, akaba yambaye n'amadarubindi. Ariyicaye afite ibipapuro mu ntoki. Iruhande rwe hari umugore ndetse n'umugabo bambaye imyenda miremire y'amakanzu y'umukara ndetse n'udupfukamunwa. Bakaba basa nkahoaho ari abamwunganira mu mategeko. Uwo umuntu akaba yaje kuburana mu rukiko.

Abantu benshi bateraniye hamwe, akaba ari bamwe bambaye amakanzu y'iroza ndetse n'abandi bambaye amakanzu ya oranje, akaba ari imfungwa ndetse n'ingororwa, zikaba zicaye ziteze amatwi zirimo zagezwaho ubutumwa runaka cyangwa bari mu nama.

Umugore wambaye amadarubindi akaba yambaye n'ikanzu iri mu mabara y'iroza, inyuma ye hakaba hari abantu benshi bagiye bicaye ndetse hakaba hari n'uwambaye impuzankano z'abacungagereza, uyu mugore akaba ameze nk'aho ashinjwa ibyaha yaje kuburana mu rukiko.

Umugore wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'umukara , akaba afite amaherena ku matwi ndetse n'indangururamajwi mu ntoki, imbere ye hakaba arikameza karekare ameze nk'aho arimo arageza kubamukurikiye ubutumwa, iruhande rwe hari amatente y'umweru agiye ariho ibitambararo by'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba barimo abagabo bambaye imyenda minini y'amakanzu y'umutuku ndetse imbere utuntu tw'umweru, hakaba harimo umwe wambaye amadarubindi afite n'indangururamajwi mu ntoki, akaba ameze aarim oarageza kubamukurikiye ubutumwa, iyo nyubako barimo ikaba ifite insakazamashusho iri ku gikuta.

Umugore wambaye ikanzu nini, akaba yambaye n'agasheneti mu ijosi ndetse n'amaherena ku matwi afite n'amadarubindi mu maso, imbere ye hari insakazamajwi ndetse akaba ari gutanga ubutumwa ku bamukurikiye, iruhande rwe hari abantu bacecetse bicaye bameze nk'aho bari mu nama.

Abagore babiri, bakaba bambaye amakanzu y'amaroze, ku ruhande rwabo hari abagabo, bambaye amakanzu maremare y'umukara ndetse n'utuntu tw'umweru mu ijosi, bakaba bameze nk'aho baje kuburanishwa, imbere yabo hari imeza iriho za mudasobwa, amatelefone, amakaramu ndetse n'amakayi.

Urukiko gacaca aho uburana ahagaze imbere y'abamuburanisha n'inteko y'abaturage imuzengurutse, bumva kandi bakurikira uko urubanza rwe rugenda.

Abantu benshi bari hamwe, hakaba higanjemo urubyiruko harimo abahungu ndetse n'abakobwa, bambaye impuzankano za kakake ndetse n'amashati y'umweru, ahantu bari hari amazu menshi ndetse n'ibiti bihateye, imbere yabo hari umuntu wambaye impuzankano z'umukara ndetse n'agapfukamunwa, akaba akora mu gice gishinzwe kurwanya umuriro, akaba arimo arereka abana uburyo bakoresha igikoresho kizimya umuriro.

Inyubako nini ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye hakaba hari abantu barimo baragenda bacaho ku ruhande haparitse imodoka nini y'igikamyo ndetse hakaba hari n'indi modoka iri mu mabara y'umweru n'ubururu ari imodoka ya polisi iruhande rw'inyubako hari izindi nyubako ndetse hakaba hateye n'ibiti birebire.

Icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru n'ubururu kikaba kigaragaza ko ahantu hakorera ikigo cya polisi, kikaba gihereye i Nyarugenge Rwezamenyo hari ndetse na nimero wahamagaraho mu gihe ubashakiye, hirya y'icyo cyapa hari ubusitani ndetse hateye n'ibiti birebire hakaba hegeranye n'umuhanda uparitsemo ibinyabiziga.

Icyapa kiranga ibitaro bya polisi bya Kacyiru byanditse mu nyuguti z'umukara mu ndimi eshatu mu kinyarwanda, icyongereza ndetse n'igifaransa inyuguti zikikijwe n'ikirangantego k'igihugu ibumoso ndetse n'icya polisi iburyo.

Imbuga nini y'ibitaka hakaba harimo imodoka ndetse hateyemo n'amakona. Izo modoka ziri gukorerwamo ibizami ku bantu bashaka uruhushya rwo gutwara imodoka mu buryo bwa burundu. Hari ndetse n'abagabo bambaye impuzankano z'umukara bameze nk'aho ari polisi, barimo barakoresha ibizami abo bantu. Hirya haparitse izindi modoka nyinshi ndetse hari n'andi mazu akikije iyo mbuga.

Inyubako nini ikoremo ibikorwa bigiye bitandukanye, ikaba ifite imiryango y'ikigina imbuto zabo zikaba zisa umweru ndetse n'amakaro yo hasi akaba asa umweru. Ku bikuta hagiye hariho ibyuma biri mu mabara y'umukara ndetse n'umutuku, bikoreshwa mu kuzimya cyangwa kurwanya n'inkongi y'umuriro.

Inyubako nini ikaba hasi ifite amakaro y'umweru ndetse n'ibikuta bisize ibara ry'umweru, ku ruhande hakaba hari akantu bajugunyamo ibintu bamaze gukoresha by'imyanda ndetse ku gikuta hari igikoresho cy'amabara y'umukara n'umutuku gikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba higanjemo urubyiruko, bambaye impuzankano za kake ndetse n'amashati y'umweru, imbere yabo hari umugabo wambaye impuzankano z'umukara ndetse n'agapfukamunwa, akaba akora mu kigo gishinzwe kurwanya inkongi z'umuriro, afite icyuma bakoresha bazimya umuriro arimo arerekaabo bana uburyo bagikoresha.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Ku ruhande hakaba harimo haracamo abanyamaguru bagendera mu tuyira tw'abanyamaguru twabugenewe. Iruhande y'utuyira tw'abanyamaguru hari ibyatsi bihateye ndetse n'ibiti birebire. Imodoka irimo iragendera mu muhanda ni imodoka nini iri mu mabara y'umukara n'umweru ya polisi, ndetse harimo n'abantu inyuma. Hakaba hari n'amapoto atwara amashanyarazi muri ibyo bice.

Umugabo wambaye ikositimu y'ubururu na karuvati ndetse n'ishati y'umweru, akaba afite igipapuro mu ntoki, imbere hari indangururamajwi, iruhande rwe hari abandi bagabo ndetse inyuma hari n'abagore bicaye ku ntebe z'ubururu kandi bakaba ahantu bari hakikijwe n'amazu menshi.

Umugabo wambaye ishati y'amako maremare y'ubururu, akaba afite indangururamajwi mu ntoki ndetse n'amadarubindi mu maso. Akaba ameze nk'aho arimo arageza ku bamukuriye ubutumwa, bakaba bari mu nama. Inyuma ye hari icyapa kinini cy'ubururu kigiye kiriho amagambo yandikishije ibara ry'umweru.

Abagore bambaye udupira tw'icyatsim, mo imbere bakaba bambaye ndetse n'imikinyero y'umuhondo, hari umwe wambaye amadarubindi akaba afite n'indangurumajwi mu ntoki, akaba arimo arageza kubamukurikiye ubutumwa, hirya ye hari itente ry'umweru ririmo n'intebe, ahantu ari hakaba ari ubusitani burebur.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba barimo abagabo bambaye amakositimu ndetse n'abagore. Bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hakaba hari imeza y'umukara iriho indangururamajwi, amakaye, amakaramu ndetse n'amazi yo kunywa, bakaba bari mu nama bacecetse kandi bakurikiye.

Abantu benshi bateraniye hamwe. Bakaba bamwe bicaye abandi bahagaze. Bicaye mu itente ry'umweru. Hakaba hagiye hariho n'ibitambaro by'umuhondo ndetse n'icyatsi. Hakaba hari umugabo uhagaze wambaye agapira k'amaboko magufinya kari mu mabara y'umweru n'icyatsi. Mu ntoki afite akadarapo ndetse akaba afite n'indangururamajwi ari kubagezaho ubutumwa. Aho hantu bari hakikijwe n'amazu menshi.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagare, abagabo bakaba bambaye amakositimu bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari imeza iriho amazi yo kunywa, indangururamajwi, amatelefone, amakeye, ndetse n'amakaramu; hagati harimo abagabo barimo baracamo bafite uduseke, bakaba barimo bagenda bakusanya udupapuro bameze nk'aho hasojwe amatora.

Umugabo uhagaze akaba yambaye ikositimu ndetse n'amadarubindi, akaba yambaye na karuvati iburyo bwe n'ibumoso bwe hakaba hari abagore bamukikije, bakaba bifashe neza bameze nk'abarimo barafata ifoto barangije inama ahantu, bari inyuma yabo hari amazu ndetse n'abandi bantu bari gutambuka.

Ibyapa byo ku muhanda ubisanga mu mabara atandukanye cyane ,aho usanga hari ibara ry'umutuku hagati harimo ibara ry'umukara. Ariko biba bigoranye cyangwa se bikunze kugora abantu benshi kumenya ngo ikimenyetso kifite icyo kigaragaza nk'ibyo bimenyetso bibiri ni ikihe? kuko abantu benshi bakunze kwibaza ngo umutuku cyangwa umukara ni ikihe kimenyetso kiri gutanga ubutumwa muri ibyo bimenyetso bibiri.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'ababa, babaka bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku n'uburu ndetse n'umweru, mu ntoki zabo bafite utudarapo tw'amabara y'ubururu, umweru ndetse n'umutuku, hakaba hari umugabo uri hagati wambaye umupira w'amaboko magufi w'umweru ndetse n'amadarubindi akaba arimo aragenda abapepera.

Umugore wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'agashati k'umweru. Akaba yambaye amaherena ndetse n'amadarubindi mu maso. Yicaye ku ntebe y'umukara. Inyuma ye hari idarapo riri mu mabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi. Akaba imbere ye kandi hari ameza ariho amazi yo kunywa, amakayi ndetse na terefone. Akaba arimo aratanga ubutumwa. Akaba ameze nk'aho ari mu nama.

Abantu benshi bateraniye hamwe, harimo abagabo ndetse n'abagore, abagabo baka bambaye amakositimu, bose barahagaze bakaba barimo barafata ifoto y'urwibutso wagira ngo basoje inama, inyuma inzu ifite ibikuta by'umweru ndetse n'imiryango y'ikigina, hakaba n'izindi nzu ziyegereye.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba higanjemo abantu bambaye amabara y'umweru, umutuku ndetse n'ubururu hakaba hagati hari amadarapo maremare cyane ari mu mabara y'umweru, ubururu ndetse n'umutuku. Hagati hari umugabo uri gucaho ugenda uba pepera wambaye ingofero, amadarubindi ndetse n'umupira w'amaboko maremare w'umweru, inyuma hari abagabo bambaye impuzankano z'umukara basa nkaho bamucungiye umutekano.

Umugabo wambaye ikanzu ndende y'umweru akaba yambaye n'ikoti ry'umukara afite amadarubindi mu maso n'akagofero k'umukara mu mutwe. Iruhande rwe hari umugore wambaye imikenyero bombi amaboko yabo y'iburyo arazamuye ay'ibumoso akaba afashedarapo mu mabara y'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu bakaba bameze nkaho bari kurahira.

Abantu benshi bateraniye hamwe. Bakaba bamwe bahagaze abandi bicaye. Harimo abagabo ndetse n'abagore. Bakaba bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umutuku, ndetse n'umweru. Bakaba mu ntoki bafite utudarapo dutonya turi mu mabara y'umweru, ubururu, ndetse n'umutuku. Bakaba bameze nk'aho barimo barasakuza kandi bizihiwe.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba barimo abagabo ndetse abenshi bambaye imyenda y'icyatsi, hari umugabo uri hagati wambaye ishati y'umweru arimo aratanga ubutumwa, akaba afite indangururamajwi ndetse imbere hari itente y'umweru irimo n'icyapa k'ifoto y'uwo mugabo yambaye ikositimu.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bakaba bameze nk'aho bari mu nama, harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe imbere yabo hakaba hari imeza ziriho amazi yo kunywa, indangururamajwi, amakaye, ndetse n'amakaramu, hakaba hari umugabo uri hagati wambaye ikoti ry'umukara, ufite indangururamajwi ameze nk'aho arimo arabagezaho ubutumwa, hanze y'ahantu bari hateye ubusitani bwiza ndetse n'ibiti.

Abagabo ndetse n'abagore bahagaze, abagabo bakaba bambaye kositimu ndetse abagore bambaye imikenyero ukuboko kwabo kw'iburyo kukaba kuzamuye ndetse ukw'ibumoso gufashe idarapo riri mu mabara y'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu, aba bakaba bameze nk'aho bari kurahira.

Abagabo ndetse n'abagore bahagaze, hakaba harimo umwe ufite indangururamajwi, wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'amoboko maremare y'ikigina. Inyuma yabo hari icyapa kinini kiriho ifoto y'umugabo wambaye ikositimu ndetse na karuvati, ikaba hariho n'akamenyetso kazamuka, handitseho amagambo ngo indi ntambwe bakaba bameze nk'aho baje kwiyamamaza mu matora.

Abagabo babiri bambaye amakositimu ndetse n'amakaruvati, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, inyuma yabo ha bakaba hari idarapo ndetse bakaba imbere yabo hari inmeza iriho indangururamajwi, amakayi, amakaramu, amazi yo kunywa ndetse n'ibindi, bakabamo barasinya nk'amasezerano runaka.

Umugabo wambaye ikositimu ndetse na karuvati y'ubururu n'ishati y'umweru, akaba yicaye. Iyi myenda igaragaza ko ashobora kuba akora akazi kiyubashye cyangwa akora mu biro, inyuma ye hari ikintu kinini gipfutse cy'igitambaro cy'icyatsi.

Umugabo wambaye ikositimu y'umukara, mo imbere yambaye agashati k'ubururu ndetse na karuvati, akaba nta musatsi afite, inyuma ye hari urukuta rw'umuhondo ndetse yicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hari imeza iriho amazi yo kunywa, indangururamajwi, ikayi ndetse n'ikaramu, uko bigaragara akaba akora akazi k'ingenzi cyangwa akora mu biro.

Abantu bateraniye hamwe bakaba bambaye udupira tw'umweru ndetse hasi bambaye imyenda y'umukara. Harimo abakobwa ndetse n'abagore, bakaba barimo baragenda babara impapuro bazifungura bazishyira hamwe. Bakaba bameze nkaho hasojwe amatora barimo barabara amajwi.

Umugore wambaye ikoti riri mu mabara y'iroza ndetse n'akazengeri mo imbere iroza, akaba afite n'agashaneti mu ijosi n'amaherena ku matwi, yicaye ku ntebe y'umukara imbere ye hari imeza ririho idarapo ry'igihugu, akaba asa nk'aho ari umuntu ukora mu biro cyangwa akazi gakomeye.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, ahantu bari hakikijwe n'inyubako nyinshi zikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, bari hagati y'umuhanda w'igitaka, hari umugabo uri imbere yabo wambaye karuvati ndetse ufite n'indangururamajwi, akaba arimo arabagezaho ubutumwa runaka.

Umukandida ku mwanya wa perezida Mpayimana flipo ari kwiyamamza imbere y'abaturage ba Rutsiro, afashe mikoro yambaye karuvate y'umutuku n'ishati iciyemo uturongo ndetse n'isaha y'umukara ku kuboko.

Abantu benshi bateraniye hamwe bakaba batonze umurongo, harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba basa nk nkaho barimo barinjira mu nyubako, iyo nyubako ikaba igiyeyo ibitambaro by'umuhondo ndetse n'ubururu, hakaba ndetse ahantu bari hateye ubusitani n'ibiti birebire.

Umugabo wambaye agapira k'amamoboko magufi ndetse n'ipantaro y'umukara, ku ruhande rwe hari ibyapa binini biriho umugabo wambaye ikositimu ndetse hariho n'akerekezo kazamuka hakaba handitseho amagambo ngo indi ntambwe, ku ruhande hari ibiti byinshi bihateye ndetse n'ubusitani, uko bigaragaza hajwe kwamamazwa umukandida uri guhatana mu matora.

Abantu benshi bizihiwe bakaba bateraniye hamwe, bakaba bambaye udupira twiganjemo amabara y'ubururu ndetse n'umutu, hakaba kurande hari itente iri mu mabara y'umweru, bakaba bafite utudarapo dutoya turi mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu n'umutuku, bakaba bameze nk'abaje kwamamaza ishyaka rya politiki.

Muntekonshingamategeko, abagize umutwe wa sena, ndetse nuw'abadepite, barikumva ijambo bagezwaho, n'umwe mubagize intekonshingamategeko.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo akamodoka gatoya k'amapine atatu, gakoreshwa mu bwikorezi bw'imizigo, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru, abantu bakaba barimo baratugendamo ndetse ukaba dufatanye na ruhurura, hepfo y'umuhanda hari ibiti birebire kandi byinshi bihateye.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba ugenda no byerekezo bitandukanye, harimo haracamo akamodoka gatonya kari mu mabara y'umweru n'umuhondo kakaba gatwara abantu bakenya mu buryo bwa rusange, ku ruhande rw'umuhanda hari utuyi tw'abanyamaguru ndetse hakaba hateye n'ibiti birebire n'ubusitani.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hakaba harimo haracamo akanyabiziga k'amapine atatu gakoreshwa mu bwikorezi bw'imizigo, ndetse harimo haracamo na mato. Haruguru ndetse no hepfo y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru dufatanye na ruhurura. Ndetse hakaba hari n'ibiti birebire kandi byinshi biteye hepfo y'umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo imodoka y'igikamyo ifite amabara y'umweru ndetse hari n'imodoka yepfo zihari ziri mu mabara y'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi, zikaba zitwara abantu mu buryo bwa rusange, haruguru ndetse no hepfo y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru, hakaba hari n'ibiti birebire biteye hepfo y'umuhanda.

Ni imodoka nyinshi zitwara abantu mu buryo bwa rusange zizwi nka twegerane ndetse ku ruhande hari n'indi modoka nini iri mu mabara y'umukara ubururu ndetse n'umweru itwara abantu mu buryo bwa rusange aha hantu hari urujya n'uruza rw'abantu bigaragara ko ari muri gare aho abantu bategera imodoka zigiye mu bice bitandukanye ku ruhande hari imitaka ya Emutiyeni ndetse n'abantu bagiye bacuruza utuntu tugiye dutandukanye.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo imodoka ndetse na moto kuruhande hari utuyira tw'abanyamaguru turi gukoreshwa n'abagenzi ndetse hakaba n'imodoka nini y'igikamyo iparitse ku ruhande itari gukoresha umuhanda rusange hari amazu menshi agiye yubatse iruhande rw'umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigenda bitandukanye hakaba harimo haracamo imodoka ntoya ifite amabara y'umweru ndetse n'umuhondo, ikaba itwara abantu mu buryo bwa rusange ariko abantu bake, ku ruhande hari utura tw'abanyamaguru ndetse hepfo y'umuhanda hari ibiti birebire kandi byinshi bihateye.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, zizwi nka twegerane ndetse kuruhande hari akamodoka gatoya kubururu gatwara imizigo, hari abantu barimo baragenda bambukiranya umuhanda ndetse kuruhande hari utuyi tw'abanyamaguru ndetse hakaba hateye ibiti birebire.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo hacamo imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, haruguru ndetse no hepfo y'umuhanda hakaba harimo utuyira tw'abanyamaguru twegeranye na ruhurura ndetse hakaba hateye ibiti byinshi kandi birebire hepfo y'umuhanda, hakaba n'amapoto ariho amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo imodoka zisanzwe ndetse na moto, harimo haracamo n'imodoka nini itwara abantu mu buryo bwa rusange. Ku ruhande hubatse amazu agiye atandukanye akorerwamo ibikorwa byinshi ndetse hari n'amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro. Ku ruhande hari n'utuyira tw'abanyamaguru.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye; ukaba urimo uracamo imodoka ndetse n'ama moto, kurande hari utuyira tw'abanyamaguru hepfo y'umuhanda hateye ibiti byinshi kandi birebire, hakaba hari n'imodoka ziparitse zitarimo zirakoresha umuhanda rusange, hari ndetse n'utuyira tw'abanyamaguru abantu barimo baragenderamo.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bijye bitandukanye, hakaba harimoimodoka imwe ndetse n'akandi kamodoka k'amapine atatu gatwara imizigo, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru, hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu ndetse hari n'amazu maremare akorerwamo ubucuruzi ari iruhande rw'umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo ibikamyo bibiri binini, kimwe cy'umutuku ndetse n'ikindi cy'umukara, bikaba byikoreye imizigo, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru abantu bacamo ndetse tukaba dufatanye na ruhurura, hepfo y'umuhanda hari ibiti birebire kandi byinshi bihateye.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo igikamyo kinini cy'amabara y'ubururu ndetse n'umweru hirya hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru dufatanye na ruhurura ndetse hakaba hari n'ibiti birebire kandi byinshi biri hefo y'umuhanda hari n'amapoto ariyo amatara agenda amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hakaba harimo haracamo igikamyo kinini ki mu mabara y'umweru ndetse n'icyansi. Haruguru ndetse no hepfo y'umuhandaba hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru tukaba twegeranye na ruhurura. Hepfo y'umuhanda hari imodoka ziparitse zitarimo zirakoresha umuhanda rusange. Ndetse hakaba hateye n'ibiti birebire kandi byinshi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba urimo uracamo ikamyo ifite amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umuhondo. Hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru twegeranye na ruhurura, ndetse hakaba hateye ibiti birebire kandi byinshi. Hepfo y'umuhanda ndetse n'amapoto agiye ariho insinga zisagaza amashanyarazi mu baturage.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba urimo uracamo ikimodoka kinini cy'ikamyo kifite amabara y'umutuku ku ruhande hari utura tw'abanyamaguru abantu bakayemo baradutambukamo tukaba twegeranye na ruhurura hepfo y'umuhanda hateye ibiti birebire kandi byinshi hakaba hari n'amapoto amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ukabamoracamo imodoka imwe y'ikamyo ndetse n'indi itwara abantu mu buryo bwa hakaba hari utura tw'abanyamaguru iruhande rw'umuhanda ndetse abantu ba bakamo baratugendamo hari n'imodoka ziparitse iruhande ziteyerimo ziyakoresha umuhanda rusange hakaba bateye ibiti birebire kandi byinshi iruhande rw'umuhanda.

Imodoka ziparitse zikaba zitarimo zirakoresha umuhanda rusange ziri mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo n'imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange ariko ari abantu bake hiryaho hari udutaka twicayemo abakozi bambaye amajire y'umuhondo bigaragara ko batanga serivisi za mobayiro mani hakabaye hari n'imodoka nini ziparitse hirya y'umuhanda zitwara abantu muburyo bwa rusange.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo moto ndetse n'igikamyo gifite amabara y'umweru, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru abantu bari kuducamo, hepfo y'umuhanda hari ibiti birebire kandi byinshi bihateye ndetse hari n'amapoto ariho amatara amurikira abantu mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka ndetse na moto, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba n'amazu maremare, iruhande rw'utuyira tw'abanyamaguru akorerwamo ubucuruzi hari n'amapoto maremare ariho amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bijyiye bitandukanye. Hakaba harimo haracamo amakamyo ndetse n'amagare. Ku ruhande hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru. Tukaba dukikijwe n'ibiti birebire ndetse n'ibyatsi bihateye. Hari ndetse na ruhurura zitwara amazi mabi cyangwa amazi y'imvura.

Imodoka nini zitwara abantu mu buryo bwa rusange, zikaba ziparitse, ku ruhande hakaba hari abantu barimo baracaho, ahantu imodoka ziri hari ubusitani ndetse hateye n'ibiti birebire, hakaba ari n'amazu akorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, hari ndetse n'amapoto ariho amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande hakaba haparitse igare ndetse n'ikamyo nini iri mu mabara y'umweru bitemewe gukoresha umuhanda rusange, hari utura tw'abanyamaguru kurani ndetse n'abantu ba bakaba barimo baragenda baducaho ndetse hakaba hubatse n'amazu, iruhande rw'utuyira tw'abanyamaguru.

Muri gare aho bategerereza amamodoka atwara abagenzi, abagenzi bamwe barahagaze abandi baricaye, bategereje amamodoka mu gihe abandi bari kwinjira mu modoka zibajyana aho bagiye.

umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bijye bitandukanye ukaba u macamo amakamyo imodoka zisanzwe ndetse n'amagare n'amamoto ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru hakaba ndetse hari n'ibiti birebire biteye iruhande rw'umuhandakaba umuhanda ukikijwe n'amazu Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba ucamo amakamyo, imodoka zisanzwe ndetse n'amagare n'amamoto. Ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru hakaba ndetse hari n'ibiti birebire biteye iruhande rw'umuhanda, hakaba n'umuhanda ukikijwe n'amazu.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hakaba harimo haracamo imodoka z'umukara ndetse harimo haracamo n'igikamyo kinini cyo mumabara y'icyatsi n'umweru. Kuruhande hari utuyira tw'abanyamaguru twegeranye na ruhururera. Hakaba hari n'ibiti birebire biteye hepfo y'umuhanda kandi byinshi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanyekanye, ukaba urimo uracamo akamodoka k'amabara y'umweru ndetse n'umuhondo, ni akamodoka gatwara abantu mu buryo bwa rusange ariko bakenya, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru abantu barimo baracamo ndetse hateye ibyatsi n'ibiti, hari n'amazu agiye akikije umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka, ku ruhande hariho undi muhanda ugenda mu cyerekezo gitandukanye n'uwo ng'uwo, hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hagati y'imihanda hateye ibyatsi n'ibiti birebire, hkaba hari n'amapoto agenda asakaza amashanyarazi muri ibyo bice.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Ku ruhande hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru. Hakaba ndetse hari n'amazu menshi agiye akikije uwo muhanda. Iruhande rw'umuhanda hateye ibyatsi ndetse n'ibiti birebire. Hariho n'amapoto ariho amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, akaba hacamo imodoka ndetse n'amagare, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru, abantu bakaba barimo baragenda badutambukamo, hirya hari n'imodoka ziparitse zitarimo zirakoresha umuhanda rusange, hakaba hubatse amazu maremare kandi menshi iruhande rw'utuyira tw'abanyamaguru.

Imodoka nini itwara abantu mu buryo bwa rusange, ikaba iri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, n'umukara. Akaba iparitse ku ruhande itegereje abagenzi. Aho hantu haparitse izindi modoka nyinshi zitegereje abagenzi hameze nk'aho ari muri gare. Hakaba hari umuhanda ariko wagiye wangirika urimo ibizinga by'amazi. Ndetse ahantu bari hakaba hari n'ibiti byinshi, ndetse n'ibyatsi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanya hakaba harimo haracamo imodoka ndetse na moto, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ducamo abantu ndetse tukaba twegeranye na ruhurura, hepfo y'umuhanda hakaba hari ibiti byinshi bihateye ndetse n'ibyatsi hari n'amapoto amurikira abantu mu gihe cy'ijoro.

Imodoka iri mu mabara y'umweru n'umuhondo iparitse, ikaba imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange ariko ari abantu bake, ku ruhande ahautu iparitse hakaba hari ingo zigiye zihubatse ndetse hakaba hari n'ibiti birebire bihateye ndetse n'ibyatsi, hakaba hari n'amatara matonya agiye ari kungo.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo imodoka zisanzwe, amakamyo ndetse n'amagare, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru dukoreshwa n'abagenzi ndetse hakaba hari n'ibiti birebire kandi byinshi biteye hirya y'umuhanda, hari amazu asanzwe akorerwamo ibintu bigiye bitandukanye ari hirya y'umuhanda.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo imodoka ndetse n'amamoto, hari ndetse n'utuyira tw'abanyamaguru turi iruhande rw'umuhanda, tukaba dukikijwe ndetse na ruhurura, hari ibiti birebire kandi byinshi biteye hepfo y'umuhanda, hari n'imodoka ziparitse zitarimo zirakoresha umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo, umuntu utwaye igare, kuruhande, hari uduyira tw'abanyamaguru, twegeranye na ruhurura, ndetse hakaba hari n'ibyatsi, n'ibiti birebire, biteye hepfo y'umuhanda, hari nipoto rirerire rirho amatara amurikira abakoresha umuhanda gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. hakaba hari haracamo imodoka nini itwara abantu mu buryo bwa rusange isize ibara ryera. Hepfo no haruguru y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru, tukaba twegeranye na ruhurura. Ndetse hakaba hari ibiti birebire kandi byinshi biteye hepfo y'umuhanda. Hari n'imodoka ziparitse zitari gukoresha umuhanda rusange.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bijye bitandukanye. Hakaba harimo haracamo igikamyo kinini kiri mu mabara y'umweru. Inyuma hari ndetse na moto. Hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru tujye turi ku ruhande rw'uwo muhanda. Hakaba hateye n'ubusitani ndetse n'ibiti birebire. Hari n'amazu yagiye akikije uwo muhanda.

Abantu barimo baragenda harimo abagabo ndetse n'abagore iruhande rwabo hakaba hari inyubako nini ifite amagorofa menshi, iri mu mabara y'icyatsi ndetse ahantu bari haparitse imodoka hakaba hari n'ibiti birebire bihateye ndetse n'ibyatsi, hakaba ndetse hari hirya n'amakona ahari.

Imodoka itwara abagenzi nini ifite amabara y'umweru, ubururu yiganjemo n' icyatsi, iri mu muhanda irikugenda ikurikiwe n'abamotari batwaye abagenzi , kuruhande hakaba akayira kaba nyamaguru ndetse n'ibiti bikikije umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo moto, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse tukaba dufatanye n'ubusitani bunini ndetse buteyemo n'ibiti n'indabyo, ku ruhande hari amapoto agiye ariho amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Imodoka nini itwara abantu mu buryo bwa rusange iri mu mabara y'umweru n'umukara, hirya hari n'izindi modoka ziparitse, hari urujya n'uruza rw'abantu aho hantu, aho hantu akaba ariho abantu bategera bagiye mu bice bitandukanye hazwi nka gare hari ndetse n'inyubako zuhubatse ku ruhande zigiye zitangirwamo serivise zitandukanye.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ukabamacamo imodoka ndetse na moto ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru tukaba twegeranye na ruhurura ndetse hari n'ibiti byinshi kandi birebire biteye hepfo y,umuhanda hakaba ipoto iriho amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanyekanye, hakaba harimo haracamo amakamyo ndetse n'imodoka zisanzwe, ku ruhande hakaba hari imodoka ziparitse zitarimo zirakoresha umuhanda rusange, hari n'utuyira tw'abanyamaguru dukikijwe n'ibiti birebire kandi byinshi, hari ndetse n'amaporoto ariho insinga zisakaza amashanyarazi muri ibyo bice.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bijye bitandukanye, hakaba harimo nacamo amakamyo afite amabara y'umweru ndetse n'abanyonzi. Ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru. Ndetse kaba hari n'ibiti byinshi kandi birebire biteye hirya y'umuhanda. Hari n'imodoka ziparitse nyinshi, hirya y'umuhanda zitarimo zirakoresha umuhanda rusange.

Imodoka nini iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru itwara abantu mu buryo bwa rusange. Ikaba irimo irakata. Ku ruhande rwayo hari sitasiyo imodoka zinyweramo esansi ndetse hakaba hari na moto ziri gucaho ndetse n'abantu bagenda n'amaguru. Hari ibiti birebire biteye hafi y'aho ngaho ndetse hakaba hari n'amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanya, hakaba hacamo imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zisize ibara ryera, kuruhande hari utuyira tw'abanyamaguru abantu bakaba barimo baracamo, ahantu kandi n'ijoro amatara ari kumuhanda amurikira abantu mu gihe cy'ijoro akaba arimo araka.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba urimo uracamo imodoka ndetse n'amagare, hepfo y'umuhanda ari utuyira tw'abanyamaguru, hakaba n'imodoka ziparitse hirya umuhanda zitarimo zirakoresha umuhanda rusange, hateye ibiti birebire kandi byinshi iruhande rw'umuhanda.

Kuri iyi shusho ya gatatu ndabona ibinyabiziga by'abashinzwe umutekano wo mu Rwanda, ikinyabiziga kimwe gifite ikarita y'ikirango k'ibinyabiziga, gifite inyuguti ra na pa nomero magana abiri na makumyabiri na kane na.

Ni umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka ndetse n'amagare, ku ruhande hari utuyira twabanyamaguru, abantu bakaba barimo baratugendamo, hirya ndetse hakaba hari n'imodoka ziparitse zitarimo zirakoresha umuhanda, hari ibiti birebire n'ibyatsi biteye hepfo y'umuhanda.

Umugabo wambaye bote z'umukara ipantaro ndetse n'ishati y'ubururu akaba yambaye n'akagofero akaba arimo arashyira ibintu mu mufuka biri ku ngorofani iruhande rwe hakaba hari imodoka iparitse ndetse hakaba hateye n'ubusitani n'ibiti birebire hari ndetse hirya n'indi modoka iparitse y'igikamyo.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hakaba harimo haracamo imodoka ndetse n'akamodoka gato k'amapine atatu gatwara imizigo. Hirya hari utuyira twa'abanyamaguru, hakaba hari n'amazu menshi ari hirya y'umuhanda. Hateye ibyatsi ndetse n'ibiti birebire iruhande rw'utuya tw'abanyamaguru.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka ndetse na moto, hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru abantu bakaba barimo baratugendamo, ndetse haparitse n'imodoka nini zitarimo zirakoresha umuhanda rusange, hari n'amazu iruhande rw'uwo muhanda, hakaba hateye ibiti birebire ndetse hari n'ubusitani.

Urujya n'uruza rw'abantu bakaba bari mu tuzu tugiye duhari bicayemo abandi bakaba barimo baragenda. Ku ruhande hari inyubako ndende z'amagorofa menshi zigiye zihari. Ni inyubako zikoreshwa mu bucuruzi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Hakaba hateye n'ibyatsi, ndetse n'ibiti birebire. Iruhande hari umuhanda w'urimo uracamo ibinyabiziga bitandukanye.

Muri sitade aho abogeza umupira bicara hateye sima ndetse n'irangi ry'ubururu bwerurutse ndetse imbere yaho haribara ritukura nyuma yaho kandi hari igikuta cyicyatsi ndetse n'kingi zigiye zifashe igisenge.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru , ndetse hakaba hari ibiti byinshi biteye bimeze nk'aho ari ishyamba riri hirya'utu tw'abanyamaguru, hakaba n'icyapa kinini kiri mu mabara y'umukara n'umwerureka ko akarere winjiyemo ari rusizi hari n'amapoto maremare insinga z'amashanyarazi zi zakaza umuriro mu baturage.

Umuhanda munini ugenda mubyerekezo bijye bitandukanye ukaba umucamo imodoka ndetse na moto kuru ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru dukikijwe n'ubusitani ndetse n'ibiti birebire iruhande hateye icyapa kinini cy mu mabara y'umweru n'umutuku gikoreshwa n'abakoresha umuhanda hari ndetse n'ibiti birebire biriho amatara amurikirakoresha umuhanda mugihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hakaba harimo haracamo imodoka y'umukara. Hakaba hari abantu bari ku ruhande aho hari utuyira tw'abanyamaguru. Ndetse hakaba hari ibyapa binini mu mabara y'icyatsi ndetse n'umukara. Bikubwira ngo urugendo rwiza, banakubwira ngo ugeze ahantu mu Gihugu cy'u Burundi. Hari ndetse n'izindi modoka ziri ku hande ziparitse zitarimo zirakoresha umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bijyiye bitandukanye hakaba kurundi ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru tujyiye turimo ibyapa biyobora kandi bitegeka amabwiriza runaka abakoresha umuhanda hari ndetse n'ubusitani buteyemo ibiti birebire n'indabyo hakaba umuhanda ukikijwe n'amazu menshi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru, hakaba harimo haracamo abana bambaye impuzankano zo ku ishuri, hari n'icyapa kuhande kiri mu mabara y'umutuku n'umukara kikwereka ko aho hantu hari ishuri ndetse hari ibyatsi n'ibiti birebire biteye hirya y'umuhanda.

Iri ngiri ni idarapo ry'u Rwanda rya kera mbere ya jenoside y'abatutsi muri maganakenda mirongo ikenda nakane iri ni idarapo bakoreshaga nyuma yago bahinduye idarapo tukaba dufie idarapo rishyashya.

Icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru n'umukara, kikaba kikwereka ko ahantu imbere hari kamera ifotora abakoresha ibinyabiziga barengeje umuvuduko runaka, ndetse hari n'ikindi cyapa cy'amabara y'umutuku n'umweru kigaragaza ko hatagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu, hirya yaho hari ibiti birebire ndetse n'ubusitani.

Umuhanda mutoya ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, hakaba nta kayira k'abanyamaguru gahari, hari amazu maremare yubatse iruhande rw'umuhanda ndetse hakaba hateye n'ibiti birebire, ndetse hakaba hari n'amapoto agiye acaho insinga zisakaza amashanyarazi muri ibyo bice.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari kuhande utura tw'abanyamaguru, ndetse n'imodoka ziparitse zitarimo ziraresha umuhanda rusange, hari amazu menshi, kandi maremare yubatse iruhande y'utuyira tw'abanyamaguru, hakaba hari n'amapoto ariho insinga zisakaza umuriro.

Inyubako nini y'amagorofa menshi, ikaba isize amabara y'umweru n'umuhondo. Ikaba ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye. Ku ruhande hakaba hari imodoka ziparitse zitarimo zirakoresha umuhanda rusange ndetse ahantu iyi nyubakokaba hateye ibiti birebire. Hari n'amapoto ariho insinga zisakaza amashanyarazi muri ibyo bice.

Inyubako nyinshi zigiye zikurikiranye. Ni inyubako ziri mu mabara y'umweru. Hakaba hagiye hakorerwamo ibikorwa bitandukanye. Ku ruhande hari inyubako nini ifite ibyapa biri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu. Akaba ari inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye. Ikaba izwi nka superimarishe. Ku ruhande hari imodoka ziparitse zitarimo zirakoresha umuhanda rusange.

Inyubako nyinshi zigiye zitandukanye, zikaba zigiye zituyemo abantu cyangwa zikorerwamo ubucuruzi, ku ruhande hagiye hari ibiti birebire bigiye bihateye ndetse hari n'amapoto ariho insinga zisakaza amashanyarazi muri ibyo bice ndetse hakaba harimo n'utuyira hagati y'ayo mazu.

Imbere y'inyubako y'ubucuruzi, ahacururizwa imiti, hari parikingi irimo ibyapa bigaragaza ko iyo parikingi ibikirwa abakiriya bagana iryo duka ry'imiti.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ariko akaba ari umuhanda uri muri karitsiye ukozwe n'amabuye, ku ruhande hari ubusitani ndetse hari n'ibiti birebire bigiye bihateye, hari inyubako zigiye zikikije uwo muhanda ndetse hari n'amaporoto maremare ariho insinga zisakaza amashanyarazi muri ibyo bice.

Inyubako nyinshi zigiye zikurikiranye. Harimo inyubako zibamo abantu ndetse n'izindi zikoreshwa mu bucuruzi. Hari inyubako zigeretse ndetse n'izindi zisanzwe. Hakaba ndetse hari n'utuyira tugiye turi hagati y'izo nyubako. Hakaba hateye ibiti birebire n'ubusitani, hagati muri izo nyubako. Aho hantu ni i Remera she Rando.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanya, ku ruhande hakaba haparitse imodoka zose zitarimo zirkoresha umuhanda rusange, hakaba urujya n'uruza rw'abantu ndetse hari n'amazu maremare y'amagorofa menshi yubatse iruhande rw'umuhanda, hakaba hateye n'ibiti birebire, aho hantu mu i Remera.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bijyiye bitandukanye. Hakaba harimo haracamo imodoka. Kurande hari utuyi tw'abanyamaguru. Tukaba dukikijwe n'amazu maremare akorerwamo ubucuruzi. Hari icyapa kinini cyamabara y'icyatsi cyanditseho sawa siti Nyarutarama. Kuruhande hakaba hateye ibiti birebire, ndetse hari n'ibyatsi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hakaba harimo haracamo imodoka ndetse n'amamoto. Ku hande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse abantu bakaba barimo baratambuka. Hari inyubako ndende zubatse hirya y'umuhanda ndetse hakaba hari n'imodoka ziparitse zitarimo zikoresha umuhanda rusange. Bari ibiti birebire ndetse n'ibyatsi biteye hirya y'umuhanda.

Inyubako nziza kandi nini, ikaba ari inyubako igeretse, ikaba isize amabara y'ikigina ndetse ifite n'igipangu cy'umukara, ku ruhande hateye ibiti birebire kandi hari n'ubusitani ndetse n'insinga z'amashanyarazi zigenda zisakaza umuriro mu baturage.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, harimo haracamo imodoka ndetse na moto, hari amabara y'umweru agiye ashushanyije hagati mu muhanda, bigaragaza ko abanyamaguru bashaka kwambukiranya imihanda ari aho baca, hari utuyira tw'abanyamaguru, hirya y'umuhanda ndetse hakaba hateye ibyatsi ndetse n'ibiti byinshi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba urimo uragenda no mu byerekezo bitandukanye. Harimo haracamo imodoka ndetse na moto, hepfo hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru, abantu bagenda bacamo mu gihe bashaka kujya ahantu ndetse hakaba hari n'imodoka iparitse itarimo irakoresha umuhanda. Hateye ibyatsi ndetse n'ibiti birebire hirya y'umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanya, akaba ari umuhanda ugenda mu byerekezo bitandukanye, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hagati y'uwo muhanda hateye ibyatsi n'ibiti birebire mu tuyira dutandukanya imihanda, hakaba hari n'amapoto maremare amurikira abakoresha umuhanda mu gihe k'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bijye bitandukanye. Uwo muhanda ukaba urimo uragenda mu byerekezo bitandukanye. Harimo hacamo abanyonzi. Ndetse hakaba hari n'utuyira hirya y'umuhanda tw'abanyamaguru. Hateye ibiti birebire ibyatsi ndetse n'indabyo. Hakaba hari umuhanda wo hasi ndetse n'umuhanda wo hejuru.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hagati hakaba hashushanyije uturongo tw'umweru twerekana yuko abantu bakwambukiranya umuhanda baciye aho hantu. Hari abana bari kwambuka umuhanda. Ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse n'icyapa kigaragaza ko ahantu hegereye ishuri. Hari ibiti byinshi n'ibyatsi biteye ku ku ruhande rw'umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka ndetse na moto, ku ruhande hari amazu menshi agiye akorerwamo ubucuruzi ndetse hakaba haparitse n'imodoka hanze zitarimo zirakoresha umuhanda rusange, hari n'utuyira tw'abanyamaguru dukikijwe n'ibiti birebire ndetse n'ubusitani.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanya, hakaba harimo haracamo imodoka ndetse na moto. Ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hari n'imodoka nini y'igikamyo kiri amabara y'umutuku iparitse kurande isa nka ho yagize ikibazo, hari ibiti birebire ndetse n'ibyatsi biteye hirya y'utuyira tw'abanyamaguru.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hakaba harimo haracamo imodoka. Uwo muhanda ugenda mu byerekezo bitandukanye. Ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru abantu bakoresha batambuka. Ndetse hakaba hateye ubusitani, ndetse n'ibiti birebire hirya y'umuhanda. Hari n'amapoto amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda w'igitaka munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ni umuhanda wo muri karitsiye, ukaba nta tuyira tw'abanyamaguru turi ku ruhande, umuhanda wegeranye n'amazu atuyemo abantu agiye atandukanye, ku ruhande kandi hari ibyatsi n'ibiti birebire bihateye.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanya umuhanda ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, harimo haracamo imodoka ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru abantu bakaba barimo baradutambukamo ndetse hirya y'utuyira tw'abanyamaguru hateye ibiti ndetse n'ubusitani, hari n'amazu menshi agiye akikije umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba urimo gucamo imodoka ndetse na moto, akaba ari amatara yaka amabara agiye atandukanye yemerera imodoka zo mu cyerekezo kimwe gutambuka izindi zo mukindi cyerekezo guhagarara, kugira bidateza impanuka mu muhanda. Hakaba hari ibiti birebire kandi n'ibyatsi biteye hirya y'umuhanda.

Umuhanda munini w'igitaka, ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, ku ruhande hakaba hari amazu menshi yubatse, ndetse hakaba hateye ibyatsi n'ibiti birebire. Ku ruhande hari akapa kari mu mabara y'umukara kerekana ko uwo umuhanda ari umuhanda wa gataradatu icyenda gatandatu ndetse hakaba hari n'imodoka zirimo ziracamo.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bijgiye bitandukanyekanya, umuhanda ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, ku ruhande hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hagati y'imihanda hateye utwatsi n'ibiti birebire, hari n'amapoto maremare ariho amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe k'ijoro.

Umuhanda munini ugendamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanya, hakaba harimo acamo imodoka ndetse na moto, kuruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hari ahantu umuntu yakwicara ategereje imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, hari ibyatsi n'ibiti birebire biteye iruhande rw'umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, umuhanda ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, hagati hashushanyije amabara y'umweru yerekana ko abanyamaguru ariho baca bashatse kwambukiranya umuhanda. Hirya hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hateye ibyatsi n'ibiti byinshi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye umuhanda ukaba ugendamo mu byerekezo bitandukanye ari umuhanda wo hasi ndetse no hejuru ukaba urimocamo imodoka ndetse n'amamoto kuruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hari n'abantu barimo barambukiranya imihanda hateye ibyatsi ndetse n'ibiti birebire hirya y'umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye umuhanda ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, harimo baracamo moto ndetse n'imodoka ku ruhande hariho utuyira tw'abanyamaguru dukikijwe n'ubusitani ndetse n'ibiti birebire hakaba hagiye hari n'amaporoto ariho amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ugenda mu byerekezo bitandukanye. Ukaba ucamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hagati hari ahantu hashushanyije imirongo y'umweru igaragaza ko abanyamaguru bakambukirayo mu gihe bashatse kwambukiranya imihanda. Hari utuyira tw'abanyamaguru hirya y'umuhanda ndetse hakaba hateye ibiti birebire n'ubusitani. Hari n'ibiti by'amapoto maremare ariho amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, uwo muhanda ukaba ugenda no mu byerekezo bitandukanye, hirya hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru, tukaba duparitsemo amagare, hari ndetse n'ubusitani n'ibiti birebire bigiye bikikije uwo muhandato, hari n'amapoto maremare ariho amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bijye bitandukanyekanya kayuma hacamomo ndetse na moto, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru tugiye dukikije umuhanda, ndetse hari n'ibyatsi byinshi bihateye n'ibiti birebire. Umuhandama ucamo imodoka na moto ndetse hakaba hari n'amapoto maremare, hari amatara agenda amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye akaba ari umuhanda ugenda mu byerekezo bitandukanye hagati y'imihanda hateye amapoto maremare ari amatara amurikira akoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro ndetse hakaba yateye n'ibiti byinshi n'iibtsi ku ruhande rw'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hakaba harimo haracamo imodoka ndetse n'amamoto. Uwo muhanda ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye. Ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hateye ibyatsi byinshi n'ibiti birebire. Hari n'amapoto maremare ariho amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hakaba hari umuhanda wo hasi ndetse n'uwo hejuru. Harimo haracamo imodoka ndetse hakaba hari n'abantu bari ku ruhande barimo baragendera mu tuyira twabugenewe tw'abanyamaguru. Hirya y'umuhanda hateye ubusitani ndetse n'ibiti birebire. Hari n'amapoto ariho amatara amukira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Mu muhanda imodoka na moto ziri gutambuka zikikijwe n'ibiti ndetse n'amatara yo ku muhanda amurika nijoro, ndetse n'ibiti bigize ubusitani bukikije umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimoharacamo imodoka ndetse na moto, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru twegeranye ndetse n'ibyatsi n'ibiti birebire bihateye, hakaba ndetse n'amapoto ariho amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe k'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanya. Hakaba harimo haraacamo imodoka ndetse na moto. Ku ruhande hakaba hari utuyira tw'abanyayamaguru ndetse n'imodoka ziparitse zitari gukoresha umuhanda rusange. Hari umuhanda wo hejuru ndetse n'uwo hasi. Hakaba hari n'amapoto ariho amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hakaba harimo haracamo imodoka ndetse n'amamoto. Umuhanda ugenda mu byerekezo bitandukanye kandi ku ruhande y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru. Abantu bakaba barimo baratugenderamo. Hari ibiti byinshi bigiye biteye hirya y'umuhanda, ndetse hari n'amapoto ariho amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka ndetse n'amamoto. Uwo muhanda ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, iruhande rwayo hari utuyira tw'abanyamaguru abantu bakoresha bagenda ndetse hakaba hateye ibiti birebire n'ubusitani.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, umuhanda ukaba ugenda no mu byerekezo bitandukanye, harimo haracamo imodoka ndetse n'amamoto, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hagati y'imihanda hakaba hateye ibyatsi ndetse n'ibiti, hari n'amapoto ariho amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Uwo muhanda ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru, abantu bakarimo baradutambukamo. Hari ubusitani buteyemo ibiti birebire hirya y'utuyira tw'abanyamaguru, ndetse n'amapoto ariho amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hakaba harimo haracamo amakamyo. Ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru, abantu bakayamo baragendamo. Hari umuhanda wo hasi ndetse n’uwo hejuru. Ku ruhande rw’utuyira tw'abanyamaguru, hari ibyatsi bihateye ndetse n'ibiti birebire. Hakaba hari n'amapoto amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba ndetse ugenda no mu byerekezo bitandukanye, harimo haranyuramo amamoto, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru abantu bakaba barimo baraducamo, hakaba hegereye na ruhurura nini ndetse hari amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro, hirya y'umuhanda hateye ibyatsi n'ibiti birebire.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka ndetse na moto, hagati y'umuhanda yashushanyije amabara y'umweru aho abantu baca bambukiranya umuhanda, iruhande rw'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse dukikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'ubusitani.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka ndetse na moto ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse uwo muhanda uka ugenda mu byerekezo bitandukanye, hagati y'umuhanda hari ibiti ndetse n'ubusitani biteyemo, hakaba hari n'amazu menshi agiye akikije uwo umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukabaho ugenda no mu byerekezo bitandukanye, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru, hakaba ari icyapa kinini ckiri mu mabara y'umweruru ndetse n'umutuku kiriho P iciyemo akarongo bigaragaza ko abantu hatemewe guparikwa, hirya hari ibyatsi ndetse n'ibiti byinshi.